Ibyapa biyobora abagenzi ku muhanda , dusanzwe twita feruje. Harimo umuntu w'icyatsi uri kugenda bisobanuye ngo abagenzi bambuke umuhanda.

Umuturage ari guhabwa icyangombwa cy'ishimwe, agihabwa n'uporisi ufitete inyenyeri eshatu ku rutugu. Abantu benshi bateranye bakoze inama, kugira ngo bashimire abaturage.

Abaturage bitabiriye inama yabereye ku kigo cy'amashuri ,aho abayobozi batandukanye, abapolisi umusirikare ndetse n'abo mu nzego z'ibanze bari kubaganiriza ku butabera.

Abayobozi bicaye imbere, ahantu hari ameza ashasheho ibitambaro, hariho umupolisi, hariho umuyobozi wa ribu, hariho umusirikare ndetse n'abandi bayobozi.

Abaporisi barindwi barahagaze, buri wese afite imbwa, izo mbwa zifashishwa mu gucunga umutekano. Ziba zaratojwe neza, bahagaze ahantu mu busitani bunini, hepfo hari ishyamba.

Umupolisikazi wo mu gipolisi cy'u Rwanda, yambaye iniforume, yambaye ingofero iriho ikirangantego, yambaye ishati ku ntugu zombi hari inyenyeri ebyiri ndetse n'ikirangantego.

Imodoka iri mu igaraje . Mo hasi harimo umuhungu wambaye isarubeti yanditseho mice ,hahagaze abapolisi ndetse n'umusirikare bari kuyivugaho bari kuyitegereza.

Polisi yigisha abanyeshuri uburyo wazimyamo umuriro, igihe gaze ifashwe n'inkongi y'umuriro, abanyeshuri barakurikiye rwose.

Abarimu bicaye mu ishuri , bari kuganira , hari abahagaze imbere yabo , bari kubaganiriza . Ni ishuri rifite ikibaho imbere n'amadirishya manini yatuma hazamo urumuri ruhagije.

Abantu bambaye amajire y'icyatsi yanditsweho mu mugongo, baricaye, bari gukora akanama, bahoze mu masuku, kuko bamwe bafashe imikubuzo.

Igitebo ni igikoresho cyifashishwa mu kubika ndetse no gusarura ibihingwa bitandukanye, nk'ibishyimbo, amasaka, ingano ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ibicuma bitatu biteretse hasi mu mucaca. Ibicuma bibiri ni binini ikindi kimwe ni gitoya. Igitoya kizirikanye n'ikindi kimwe n'umushumi ubifatanyije. Ibicuma byifashishwa mu kunywa inzoga.

Abagabo batatu bamwe barasutamye abandi baricaye, bari iruhande rw'umuvure (umuvure wifashishwa mu gukama umutobe), bari ku muryango w'inzu urugi rufunze n'ingufuri hariho ama esikariye.

Umugore wicaye ku musambi, afite igiseke, afite inkongoro, yiteze igitenge, akenyeye n' ikindi; ibi bikoresho bikaba byifashishwa, mu muco nyarwanda iyo bashyingiye abageni kandi ikaba ikoreshwa mu gucunda amata ndetse no kuyanywa.

Umuntu ufite agakoresho kifashishwa mu gucuranga kitwa iningiri agafatishije amaboko abiri akaboko kamwe gafashe imbere akandi gafasha inyuma kameze nk'agati ari gukuba ku kandi k'akagozi gafashe imbe n'inyuma kugira ngo amajwi asohoke.

Igishushanyo kiri ahantu ku muhanda, baracyubakiye icyo gihagazeho kugira ngo kigaragare, gifite akanyamanswa ku rutugu, gifite icumu mu ntoki n'ibiganza bisobekeranye imbere yacyo, bivuga ngo nta gushimuta, nta buhigi bwemewe.

Igikoresho cyifashishwaga mu muco nyarwanda cyitwa umuvure, cyakoreshwaga mu gukama igitoki bakuramo umutobe, kiri ahantu giteretse hasi hazitijwe imigano.

Umugabo ufite amasunzu mu mutwe. Amasunzu ni ko abantu ba kera ku ngoma ya cyami mu Rwanda biyogosheshaga, bakoresheje urujyo rushyushe.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'intore, bambaye n'iniforume, ibihora mu mutwe, imyenda yo hasi intore zambara iyo zigiye guhamiriza. Barishimye, bari kuzigana, ni abakobwa.

Ikibuguzo cyifashishwaga mu gutarama, mu gusabana kw'abagabo. kera abagabo barabuguzaga bagakina bakishima. Kiri ahantu ku meza nta muntu uri kugikoresha.

Ikibumbano cy'umugore, gifite akabindi mu ntoki, gishushanyijwe gihagaze ku meza, cyakozwe n'umuhanga, agaragaza uko umukobwa yari ameze mu muco nyarwanda.

Inka z'inyambo, inka zitaweho zifite udutako mu gahanga no mu ijosi, zifite amahembe meza maremare ateze neza. Ziritonze zihagaze ahantu hamwe.

Kera abantu basokozaga umusunzu, umugabo afite amasunzu bagiye bakata mu mutwe, umusatsi ugasigara inyuma n'imbere, kandi umusatsi ukaba ucyoye neza, ku buryo biba bigaragara neza. Wari umuco nyarwanda.

Inzu za kinyarwanda zubakishijwe ibyondo, zigasakarishwa ibyatsi, ziri mu ntanzi z'ibirunga. Ni ahantu heza, hagira umwuka mwiza, hari ibiti, amashyamba, amakoro, n'ibindi bitandukanye.

Intore ziri guhamiriza zishimye, zambaye ibihura mu mutwe, zambaye imyenda hasi, amayogi, ziri guhamiriza, abantu bazireba bakanezererwa kubw'ubuhanga zifite. Zifite n'amacumu mu ntoki, ndetse n'ingabo, zateze amaboko.

Ku izuba mu kibaya kinini kirimo amabuye, hari inka zihagaze ziri kota izuba, ariko zisa n'izishwe n'inzara n'inyota kuko aho ziri ibyatsi byarumye.

Umukino wo gusimbuka. Abagabo barahagaze bazengurutse, bari gufana abandi biyambuye imyenda hejuru kugira ngo babone uko basimbuka, umugabo umwe munini yasimbutse arenga umugozi uri hejuru cyane.

Ababyinnyi b'injyana gakondo bari kubyina barizihiwe bari imbere y'inzu za gakondo zubakishijwe ibyatsi zashijwe ibyatsi, hari ingoma bambaye imikinyero ari abagabo ari abagore barishimye bari guhamiriza ibintu bimeze neza.

Abagabo bane bafite ingobyi, ingobyi ya kinyarwanda iba ifite ahantu hane ho gufata. Haryamyemo umuntu bari kwihuta bamujyanye kwa muganga, kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze.

Ingobyi ya kinyarwanda yifashishwaga mu cyaro, guheka abarwayi bajyanye kwa muganga. Abagabo bane babiri bahetse imbere, abandi babiri bafashe inyuma, umuntu aryamyemo, bakamutwikira n'ikiringiti.

Abagore biteje imbere; baricaye bari kuboha, ubukorikori, udukapu badukoze mu bikoresho bitandukanye, bakoresheje intoki, bicaye hafi y'ibyatsi barambije amaguru, bari gufatanya.

Igiseke gifite umumaro munini mu muco Nyarwanda gikoreshwa mu bukwe, gikoreshwa ahantu hatandukanye hakenera umuco Nyarwanda. Ni igiseke gikozwe mu mabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'umuhondo.

Ishoka ,indyakwi ,indyabiti ni igikoresho cyifashishwa mu gusatura ibiti. Ari abakeneye inkwi cyangwa ibiti byo gukoresha ibindi bintu.

Imbere y'inzu ya kinyarwanda, hari abantu benshi bari gukoma mu mashyi, abandi bari kubyina, bataramye, bishimye, aho mu muco nyarwanda, kuko babyinaga, bagatarama, bakishimira ibyagezweho, nabo bari kubyina bambaye imishanana y'umweru, y'ubururu, n'andi mabara.

Umugabo wambaye jire ya emutiyene y'umuhondo, afite agakapu ari gushyira agaterefone mu mufuka arahagaze, acuruza amayinite amafaranga ni yo acuruza kugira ngo abashe kubaho. Hari intebe ikozwe mu migano iteretse iruhande rwe.

Ibikoresho bya kera byifashishwaga mu mucyo nyarwanda. Harimo ingabo, harimo amacumu, harimo umuheto, harimo umwuko, harimo udusahuzo, harimo udusuka, udufuni n'ibindi bitandukanye.

Abagore bari kumwe n'umwana baricaye, bicaye hasi ku dusambi, bari gukora ibikoresho bikozwe mu ibumba, ibyo twita inkono, amasafuriya akozwe mu ibumba yifashishwa mu guteka.

Umugabo ufite amasunzu, uasokoje amafunzu nk'aya kera, yambaye imyenda abantu bakera bakundaga kwambara, yambaye ibinigi mu ijosi, afite ubwanwa, ni umugabo mwiza cyane, bigaragara ko ari umugabo ufite imbaraga kandi w'umunyarwanda.

Inka nyinshi cyane z'inyambo ziri ku murongo umwe, zimeze neza, zifite amahembe maremare, ziri mu muhanda zifite, gahunda, ku ruhande rwa zo hariho ibihuru, ibihuru, ibyatsi byinshi, inka z'inyambo zimeze neza cyane.

Abagore batatu bambaye imishanana, hasi ubururu, umuhondo, icyatsi, bateze amaboko nk'inyambo bari guseka bishimye. Bari kubyinira mu busitani bugari banezerewe.

Abagore cyangwa se abakobwa bambaye imyenda y'umweru ifite amabara y'icyatsi, imishanana myiza cyane, bambaye n'utuntu mu mutwe, mu gahanga bari kubyina bishimye imbyino gakondo n'umuco nyarwanda. Baranezerewe bari gususurutsa abari imbere yabo.

Intore ziriguhamiriza zambaye ibihura, zambaye imishanana, zifite amacumu mu ntoki zirishimye ziri guhamiriza bitangaje. Ziri guseka ziri ahantu hasa neza hari akazuba zirigususurutsa abaje kuzireba.

Umugabo ahagaze mu muryango w'inzu afite indoshyo, inyuma ye hari ikiduki n'inzu y'ubakishije ibyondo ifite inzugi z'ibiti.

Intore zirahamiriza abazireba bakishima, zambaye ibishura n' utuntu ku nda, zifashe ingabo ndetse n' amacumu zirambuye amaboko zihamiriza zishimye.

Indosho igikoresho kifashishwaga kera, mu guteka no kwarura ibiryo, cyane cyane isuku, igikoresho gikozwe mu giti, kimeze nk'umuko ariko cyo kiba gicukuye, irambitse ahantu harambuye.

Insinga z'amashanyarazi zifite ku ruhande ahantu hatonoye ziri mu gikarito, urutsinga ruzinze rurerure, inyuma hariho akuma, naho imbere haratonoye.

Ipensi yifashishwa mu gufungura cyangwa mu gufunga amavesi, ibitanda, ndetse n'ibindi bikoresho bifite udufu tubiri, iri mu bwoko bw'imakasi, ifite n'aho gufata.

Itara ricomekwa ku mashanyarazi kugira ngo urumuri rugere mu nzu, mu nyubako, riteretse ku meza aho abantu bakanikira, ririmo gukanikwa kugira ngo ribashe gukoreshwa.

Igikoresho cyifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi ufata ugucomeka muri purize, noneho umuriro ukagera muri ako gakoresho ukabasha gucagingaho ibikoresho birenze kimwe, igihe kimwe kandi bitandukanye.

Imashini yifashishwa mu kwandika yitwa mudasobwa , ariko itagendanwa. Irikumwe n'impapuro, irasa nabi , ntabwo iheruka gukoreshwa no gukorerwa isuku.

Umudugudu w'icyitegererezo, wubatswe neza harimo imihanda ya kaburimbo, harimo ubusitani n'indabo . Ni inzu zubatse zigeretse gatatu , ziri ahantu heza hafite ikirere cyiza ni ku kazuba.

Ku izuba ku muhanda w'igitaka hari umurima, hagati muri uwo murima harimo inzu yubakishijwe amatafari n'amategura, hirya hariho umurima uhinzemo ibigori, ndetse n'ibiti by'intururusu.

Abaturage bafite amasuka iruhande rw'amazu yubatswe na leta, bari guhinga, bari mu muganda bose bitabiriye, kugira ngo ibikorwa bibashe kugenda neza.

Mu ijoro kumuhanda, amatara ari kwaka, haba ayo kumuhanda, yaba amatara yo ku mazu, harasa neza, ninjoro rwose harabona, wagenda, indabo ziteye mu muhanda hagati zigabanyamo imihanda, nta muntu uri mu muhanda burije, ariko harasa neza.

Ku rusengero cyangwa se kiriziya hari abantu benshi, benshi cyane, benshi, ku muryango hariho akantu gatambitse, bigaragara ko baje gufungura urwo rusengero ku mugaragaro.

Iyi nzu iri iruhande rw'ikiyaga gito, inzu igiye izamuka bitewe n'uko ari ahantu h'agasozi . Hari utuyira twubatswe n'isima tujya kuri iyo nzu , hari ibiti biyegereye ndetse n'amazi magari.

Inyubako ifite imiryango ine, imbere yaho haparitse imodoka, haparitse umumotari, hariho idarapo ry'u Rwanda n'ibyapa bibiri. Hejuru y'inzu na ho hariyo ibyapa. Hirya gato y'inzu hagaragara ishyamba ndetse n'umusozi muremure.

Inyubako nini cyane cyane yubakishijwe amatafari ahiye, ifite ibirahure by'umukara amabati y'umutuku hari uruzitiro rw'ibyuma, ibyuma bisize amarangi y'ubururu hari umuntu uri kugenda yambaye agapfukamunwa.

Umferege, ibyatsi, ubusitani, uruzitiro ruzitijwe amabuye, amatafari ndetse n'ibyuma. Mo imbere harimo amazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye bihuza abaturage.

Inzu y'ubatse neza ateye amarangi, ifite igipangu cyangwa uruzitiro rw'ubururu .Imbere yayo hasutse amabuye matoya twita amadeshi , hari ipoto y'amashanyarazi ibafasha kubona umuriro.

Ku izuba risa neza, inzu zigeretse, abaturage baturamo, ziri ahantu hitegeye, abagore babiri bafite isuka, bari kugenda bagiye guhinga, mo hagati harimo anteni ibafasha kubona umuyoboro.

Urusengero rufite amarangi y'umuhondo, hanze hari kandagira ukarabe, inzugi z'ubururu, ariko si urusengero runini ni rutoya. Rusengeramo abantu bake, ruri ahantu kumuhanda ariko w'igitaka, nta bantu bahari, hari ikigega kuruhande kibika amazi.

Ku nzu nziza zigeretse, ziri kubakwa, hahagaze umukobwa yafashe mu mufuka, hamennye itaka ryinshi, ni inzu zubakishijwe amatafari ahiye, zatewe n'amarange, ziruzuye.

Urusengero cyangwa se Ikiriziya kinini cyane kiri ahantu hitaruruye, hari abantu bari kugenda binjira mu kiriziya cyubakishijwe amatafari ahiye, hejuru hariho umusaraba ni ahantu heza cyane wasura.

Umwana ari kugenda, bamwambitse bote z’abana. Ni ku izuba ryinshi, ahagaze imbere y’inyubako nini, ikaba ari inyubako ikorerwamo ibikorwa bya Leta. Iruhande hariho ibigega bifata amazi.

Inyubako ndende igeretse ifite amabara y'umweru n'ubururu, abaturage bari kugenda iruhande rwayo, ifite uruzitiro rw'ibyuma rw'umweru.

Ku izuba ritari ryinshi imbere y'inyubako ,hari ubusitani haparitsemo imodoka ebyiri isa n'umweru, nindi isa n'umukara iyo nzu ifite amabati y'umutuku.

Ku mucyo, ku kazuba gasa neza, mu muhanda munini muremure cyane. Hariho inzu zitandukanye zo guturamo n'ibipangu. Ndetse hari insinga z'amashanyarazi, hari amatara yo ku mihanda. Urugo rumwe hanze hari sima uturutse kuri kaburimbo.

Inzu zubatse neza, amashuri afite ibyumba bitandukanye, imbere hari ubusitani butari bwakura ariko buteyemo indabo zitandukanye, hari amagaraviye ndetse n'utuyira twiza, iyo nzu ikaba yubakishijwe hasi amakaro, ni iy'amatafari ahiye.

Abayobozi basuye inyubako, ndetse n'abaturage, kugira ngo barebe aho ibikorwaremezo biri kubakwa bigeze, bafasha abaturage mu butabera ku nyubako za Leta.

Abanyeshuri bicaye mwishuri, bafite amakayi nimpapuro, ishuri ryiza, rigezweho, rifite intebe n'ameza bigezweho, abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, imipira y'ubururu.

Umuhanda uzengurutse ikigo cy'amashuri, kirimo ikibuga cy'umupira, aho barira, amashuri menshi cyane, iruhande rwayo hari ibiti binini, hari igitari kinini, ni ahantu heza hateye ubwuzu.

Mu rusengero runini harimo intebe nyinshi, ariko nta bakirisitu barimo. Urusengero rurakinze, urusengero runini cyane rw'amatafari ahiye ndetse n'amabati agezweho.

Umugabo cyangwa se igitsinagabo ufite igare wicaye ku igare ,yambaye imyenda y'ubururu, arirabura afite na terefone mu mufuka, iruhande rwe hari amazu ,ari kwifotoza.

Umuhanda munini uri gukorwa haparitse ibimashini bya Katereporale , byifashishwa mu gukora umuhanda . Ari ugusanza ibitaka , ari ugusanza garavie , birahagaze , bifite amapine manini . Harimo ikitwa Tsindagira harimo igisanza , ni umuhanda uri gukorwa , munini cyane.

Ku nyubako y'amabara y'uburu n'icyatsi, hahagaze abantu bafite ibitabo, amadocuma, bayobozi bambaye imipira ya nditseho Rwanda, hari n'umupolisi bari kujya inama baseka bishimye.

Ku kazuba keza ahantu imbere y'inzu, hariho idarapo ry'u Rwanda inzu handitseho ibiro by'akagari ka Rugeshi, ni inzu nziza yubakishijwe amabuye hasi, isize amarangi y'umuhondo, inzugi z'umweru, zubatswe mu buryo bwa kijyambere.

Inyubako ndende cyane, igeretse kenshi, ifite ibirahure by'umukara, amatafari ahiye ya ruriba, hari ama esikariye aturuka ku muhanda azamuka kuri iyo nyubako, hari ubusitani bwiza, haparitse imodokari, hari n'insasa zifasha mu gukurura umwuka mwiza.

Inyubako ya leta nini cyane ifite inzu zigeretse, ndetse n'izindi zitageretse ifite uruzitiro rw'ibyuma bisa n'umweru, ikikijwe n'ishyamba n'igitare cyiza kinini rwose, gifite ibiti birebire ku izuba arasa neza kandi.

Ku muhanda mwiza uzamuka hari inyubako, kandagira ukarabe, uruzitiro ruzitijwe amatafari ndetse n'ibyuma, ku muryango hari icyapa kinini cyanditsweho urugo mbonezamikurire, mw'imbere harimo ibikoresho, harimo amazu yifashishwa mu kunoza imikurire y'abana.

Ikiraro kinyurwaho n'abanyamaguru, gifashwe n'imigozi hejuru, ni ikiraro umuntu ahagararaho, kikagenda kiri kuzungabana. Kiri ku mugezi utari mugari cyane. Iruhande rw'umugezi hariho ibiti.

Mu rusengero rw'imbere hafashe imikeka hariho akabati hari umuntu uhagaze n'urusengero rudekoye neza n'ibitambaro by'ubururu n'umutuku.

Ku kibuga kinini hicaye abaturage , abanyeshuri bari kugenda buri umwe avuga ikibazo cye bakagishashakira igisubizo , mu kubahiriza ikiremwamuntu n'ubutabera.

Abaturage benshi benshi cyane bicaye ahantu hamwe, abandi barahagaze bari kuganira. Bafite impapuro bari gukurikirana ibijyanye na gahunda zabo, hari abayobozi babahagaze imbere bari kugenda bababwira.

Abaturage benshi bari mu cyumba k'inama, hari abicaye imbere b'abayobozi bari kubaganiriza, abaturage bateze amatwi bari kumva ibyo babwirwa, abaturage benshi bagera muri mirongo inani, baricaye, bari kubwirwa ibyiza byabateza imbere.

Abaturage benshi bicaye hasi, abandi barahagaze. Bateze amatwi umuyobozi ubahagaze imbere, ufite indangururamajwi, ari kubaganiriza baritonze bateze amatwi ibyo babwira.

Abaturage baricaye abagabo, abenshi ni abagabo bari mu nama. Umugabo umwe ahagaze imbere afashe indangururamajwi. Hari n'abagore bicaye hirya mu byatsi, iruhande rwabo haparitse imodokari.

Abaturage benshi bari ku mirongo bambaye udupfukamunwa bahagaze imbere y'indangururamajwi, abandi baricaye ku kazuba bari gutanga ibitekerezo ku bibazo bagiye bafite n'ibyo bakeneye.

Abaturage baricaye bari mu nama, bamwe babahagaritse imbere yabo bari kubabwira ibigezweho, baharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Ku kibuga cy'indege hahagaze abakora akazi ko kwita ku kibuga cy'indege ndetse n'abagenzi, hari indege nini cyane yanditseho RwandAir. Abantu bari kwifotoza.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi itwara abagenzi, iri mu muhanda munini ,umuhanda ufite ibice bine, uruhande rumwe hari indi modoka y'ipurado iri kugenda, hari abamotari mu muhanda ,ni ku kazuba ,hari amatara yo muhanda, ndetse n'ibiti biteye ku muhanda bizana umwuka mwiza.

Aho abamotari baparika bategereje abagenzi. Ni abamotari benshi bafite moto zo mu bwoko bwa gikumi, bambaye amajire y'icyatsi n'amakasike yi'cyatsi, barahagaze ku izuba bategereje abagenzi.

Aho imodoka zihagarara, abagenzi bakazihasanga, hari imodoka nyinshi, hari abagenzi benshi, abakecuru, abasaza, abagabo, abagore, hari n'abandi bari gucuruza imbaho, ibipapuro, hari abafite inkoni ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahantu haparika imodoka abagenzi bakazihasanga bagiye mu bice bitandukanye bigize igihugu. Ni imodoka nyinshi cyane, hari abantu benshi cyane, hari abacuruza mitiyu, haragaragara nkaho hari ubucucike.

Umugore wahawe moto yambaye ga , ahagaze kuri moto ifite kasike y'umutuku niy'umuhondo. Ari guseka anezerewe kubw'icyo gikoresho yahawe cyo kumufasha.

Abamotari bafite moto zabo bambaye amajire y'ubururu ndetse n'ibikasike by'ubururu n'icyatsi, bafite moto dusanzwe twita gikumi, baparitse ku murongo bari gutera amaboko hejuru.

Abaturage batwara imizigo hifashishijwe amagare, umwe atwaye igare ririho imifuka, undi atwaye igare ririho ubusa. Undi ari gufasha utwaye imizigo akamusunikira, kugira ngo babashe kugera iyo bagiye . Bari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hari ishyamba ry'ibiti by'inturusu.

Imodoka mu muhanda harimo na bisi zitwara abagenzi. Ni umuhanda munini hagati hateyemo imikindo ifasha kubona umwuka mwiza abantu bahumeka.

Mu muhanda, ku izuba ryinshi, abagenzi bateze moto, motari, bari inyuma y’imodoka ya tagisi, abandi bari mu modoka bari kwihuta, berekeza aho bafite gahunda.

Abamotari bahagaze mu muhanda ari benshi, bamwe bahetse abagenzi, abandi badahetse abagenzi, Porisi ibahagaze imbere, iri kubigisha uburyo bwa Gerayo amahoro.

Mu muhanda wa kaburimbo kuruhande hariho ishyamba cyangwa se igitari, hari abanyonzi mu muhanda bafite amagare, umwe afite imizigo afite uri kumusunikira undi atwaye igare ryonyine yategereje kubona abatwara cyangwa se abatwaza.

Imiryango yinjira muri gare aho imodoka ziparika, handitsweho gare ya Kayonza. Abamotari bahagaze ku miryango, bategereje abagenzi baturuka muri gare, umuntu ucuruza mitiyu yicaye ku muryango, na we ategereje, hari n'abandi bagenda binjira bajya gutega imodoka zijya mu bice bitandukanye.

Muri bisi nini yitwa, Unataracom abagenzi bari kwinjira, bamwe bari kureba mu madirishya, abagenzi ni benshi cyane, bisi yifashishwaga, kera itwara abagenzi, bava ahantu hamwe bajya, ahandi.

Imbangukiragutabara y'ikigo nderabuzima cya Rubare, Rwinkwavu hosipitari. Yifashishwa mu kugeza abarwayi ku bitaro bibegereye, cyangwa se ku bitaro biri kure yabo, bitewe n'uburwayi bafite.

Ku kibuga cy'indege hari abantu bashinzwe icyo kibuga cy'indege. Hari imizigo yapakuruwe imizigo myinshi cyane itegereje ko ba nyirayo bayitwara. Ku kibuga cy'indege imvura yaguye, haratose. Aba bantu na bo bafite disipulini.

Imodoka itwara abagenzi yitwa shirumuteto aho abana bagenda bakozaho amakarita amafaranga akavaho bakinjira, ihagaze ku muhanda ,imodoka y'umweru ifite amabara y'icyatsi ya jali.

Amagare yifashishwa mu gukora siporo, araparitse, n'amagare y'umuhondo, afite mo amabara y'icyatsi, aparitse ahantu heza cyane. Hakurya hari jaride cyangwa se ubusitani, burimo umuntu uri kugenda.

Bisi nini itwara abagenzi, iri mu muhanda yitwa Shirumuteto. Bamwe baba bicaye, abandi bahagaze. Bisi isa n'umweru ufite amabara y'ubururu, ihagaze ahantu bamwe bari kwinjiramo.

Mu muhanda munini mugari, hari imodoka ya kwasiteri iri kugenda, hakurya hari imisozi ndetse n'ibiti by'inturusu birebire, hakuno hari akayira k'abanyamaguru, ndetse n'umuferege utembamo amazi.

Imodoka zo mu bwoko bw'amakamyo nini, nyinshi cyane, ziri mu muhanda, zirapakiye, zisa n'iziri kwambuka umupaka. kuko ni nyinshi cyane, kandi buri modoka irapakiye, hejuru hari shitingi ipfutse ibintu.

Inzu ndende yubatse, yubakishijwe amakaro hejuru, ifite amabara y'icyatsi n'ubururu, imbere hahagaze imodoka, hariho umukindo, ndetse hari n'icyapa cyanditseho "Ubuhinzi", hariho ikibuye kinini, ni ahantu hasa neza.

Imodoka yitwa hoho ipakiye ibitaka cyangwa se umucanga. Iri ahantu ihagaze, isa nk'aho ishaka kugenda ariko aho hantu ni mu muhanda w'igitaka.

Mu muhanda munini muremure w'umukara, ku ruhande hariho ibihuru ndetse n'amatara yo ku muhanda. Hari imodoka yitwa ikamyo nini ya hoho, iri kugenda muri uwo muhanda.

Ibimodoka byinshi, binini bitwara imizigo, byambukiranya imipaka, biri mu muhanda, bimwe bimanuka ibindi bizamuka. Ni ibimodoka binini cyane, bifite amabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hari abaturage, abantu babihagaze iruhande, bafitemo imirimo.

Abafite ubumuga bicaye mu tugare bafite imipira y'ifashishwa mu gukina mu ntoki. Bambaye imipira hejuru y'icyatsi biteguye gukina.

Umukinnyi w' amagare yahawe ururabo, niwe mukinnyi wegukanye irushanwa, iruhande rwe harimo umugore n' umugabo; umukinnyi yambaye umupira wanditsweho sura u Rwanda, barishimye yatwaye igikombe.

Umukobwa ari gukina umukino w' intoki yifashishije agatenisi, yambaye akajipo k' umutuku, yambaye agasengeri k' umuhondo, afite ibisuko, afite imbaraga nyinshi, ari gukoresha imbaraga, arimo gukina ahagaze amaguru ayatandukanyije.

Mu muhanda abakinnyi b'amagare, bari guhatana birukanka, abaturage nabo bahagaze ku ruhande, abari bikoreye inkwi bazituye hasi, kugira ngo barebe neza, uko umukino ugenda.

Ku bwogero bwiza bugezweho abantu bifashisha bari kwidagadura, hasa neza, hateye amarangi y'umweru, iruhande hari ibiti byiza bifasha kuzana umwuka mwiza, ndetse n'akayaga.

Abagore n'abagabo kuri sitade ku kibuga cy'umupira w'amaboko bashyigikiye ikipe, bari gukoma amashyi babyambariye imipira y'icyatsi, amapantaro asa, abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu barishimye.

Ku kibuga cy'umupira w'amaboko gifite amabara y'ubururu, icyatsi, umutuku n'umweru hahagaze abantu benshi bambaye imipira isa, ifite ikirango imbere cy'umweru. Imipira y'icyatsi bafite imipira yo gukina mu ntoki y'umuhondo n'iy'umutuku, bameze nk'abantu bari gufata ifoto, ikibuga gikikijwe n'aho bakinira....

Abakobwa babiri beza bambaye imyenda, ikabutura y'ubururu, agasengero k'ubururu kanditseho Rwanda. Bari gukina imipira y'intoki, bari kurebana, bari gucenganwa.

Abakinnyi b'umupira bambaye amajezi y'umuhondo nu'ubururu, hari n'abandi banyezamu bambaye amapantaro n'imipira. Bamwe barahagaze, abandi baricaye.

Umugabo muremure afite umupira mu ntoki, umupira bakina umukino w'amaboko, yambaye isengeri y'umutuku ufitemo ibara ry'ubururu, arawuteruye awerekeje hejuru nk'ushaka gutsinda igitego.

Abakinnyi b'umukino w'amaboko, bambaye amajezi hasi ubururu, hejuru umuhondo, uriho idarapo ry'u Rwanda. Ni abakobwa batanu n'umugabo umwe, bafite udukoresho bifashisha bakina mu ntoki, bahagaze ku murongo umwe.

Abakobwa bari mu kibuga, bari gukina umukino w'umupira w'intoki, bambaye impuzankano y'umukara ifite amabara yu'mweru, bari gukirana, bashaka gufata uwo mupira.

Umunyezamu w'ikipe arasimbutse arahengama, ajya gufata umupira, umupira uhita ujya mu inshundura. Inshundura ikozwe mu bikoresho bisa n'icyatsi, umutuku ndetse n'umweru, aho abafana bicara hasa n'umuhondo ahandi ubururu, n'ikibuga cy'umupira na cyo gisa n'umuhondo.

Ku kibuga cy'umupira w'amaguru, hafite amabara y'icyatsi y'umuhondo, umweru, nubururu, hari imyanya yo kwicaramo y'abafana, hari ni ikibuga cy'umupira abantu bakiniramo, n'ahantu hanini cyane cyane kandi hasa neza.

Abakinnyi b'umupira bari gukina. Hari abambaye impuzankano y'umweru n'umukara, abandi bambaye icyatsi n'umuhondo. Ku mpande abafana ni benshi cyane bakubise buri wese ashyigikiye ikipe ye, ku kibuga cy'icyatsi kirimo imirongo y'umweru.

Abantu benshi bari muri siporo, abazungu, abirabura, bambaye hejuru amasengero y'umuhondo, hasi amakabutura y'icyatsi, bafite na numero, bari kwirukanka mu muhanda munini cyane.

Abakinnyi b'umukino w'intoki bita basikete, bari gukina, ni abagore barebare bari kwinanura batangira umupira. Ku kibuga cy'umupira hariho abafana bari kogeza, bicaye mu myanya yabo.

Umukinnyi ari gukina umukino w'amaboko bita tenisi, ari ku kibuga gisa n'umuhondo haciyemo imirongo, handitseho amagambo u Rwanda rufunguye, biragaragara ko aho hantu bahakinara imikino itandukanye.

Abagabo babiri, umuzungu n'umwirabura, bahagaze iruhande rw'ikibuga cy'imyidagaduro, bafite udukoresho twifashisha bari gukina udutenisi. Bambaye amakabutura n'imipira, umuzungu yambaye ingofero.

Umukinnyi w'amagare ari ku igare, ari kunyonga igare ry'umukara. Yambaye inkweto z'ubururu, ikabutura y'ubururu n'umupira w'umuhondo wanditsweho sura u Rwanda, n'amataratara n''ikigofero, ari mu muhanda waguyemo imvura.

Abana bari gutozwa gukina umukino w'amaboko bita basikete, bafite umutoza wabo w'umugabo na bo ni abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, bari kwitozanya imbaraga.

Abantu benshi benshi cyane, biganjemo abambaye imipira y'umweru n'umuhondo. Bahagaze ahantu, hari abashinzwe umutekano imbere yabo, urikubona ko bazamuye amaboko, bishimye, bataramye bimeze neza.

Abakinnyi bambaye imyenda ibaranga, amakabutura y'ubururu bwijimye n'umuhondo, imipira cyangwa amasengeri y'umuhondo yandikishijweho nimero z'ubururu, bari gukina umupira w'amaboko, ndetse n'abandi ku rundi ruhande bambaye umukara n'umutuku, bari muri sitade bari gukina umupira. w'amaboko.

Mu mukino w'amagare harimo umukinnyi umwe uri imbere y'abandi, yishimye, atsinze, ariwe ubaye uwa mbere, yambaye umupira wanditseho ngo sura u Rwanda.

Abakinnyi bari ku kibuga cy'umupira w'intoki. Umwe yambaye ekuteri mu matwi. Bari guserebura bakina, banezerewe nk'abantu batsinze. Bari kwishima.

Abakinnyi b'amagare bari kunyonga amagare mu muhanda ni benshi , benshi cyane bari kwihuta bakurikiwe n'imodoka ibafasha mu muhanda munini bageze mu ikorosi.

Abakobwa batanu bakina umukino w'utudenesi, bafite udukoresho bifashisha bari gukina. Bambaye utujipo dutoya tw'umweru, n'amasengeri y'umuhondo bahagaze ku kibuga.

Abantu bari ku kibuga cy'umupira, bambaye imyenda isa n'idarapo ry'u Rwanda, ubururu n'umuhondo icyatsi yanditsweho Rwanda, bari gufana ikipe barishimye, bari guhoberana bafite akanyamuneza hari umucyo arasa neza.

Akarongo kari mu muhanda hagati, kagabanya abazamuka n'abamanuka. Ni umurongo w'umuhondo uringaniye ku buryo abazamuka bari mu ruhande rwabo, n'abamanuka mu ruhande rwabo.

Kandagira ukarabe ziri mu isoko, zifashishwaga mu gihe cya korona virusi. Hari abantu bahagaze, hari amatagisi atwara abagenzi, hari n'ikigega gifata amazi, harimo n'amazu menshi atondekanye ku murongo.

Umuhanda munini wa kaburimbo n'igikorwa remezo cyifashishwa n'abantu benshi mu gutwara ibintu n'abantu. Ahantu hari kaburimbo y'umukara haba hari iterambere.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo abantu benshi batandukanye, ku kazuba hari amazu ku ruhande, abantu bamwe barikoreye, bamwe bari kuzamuka, abandi bari kumanuka, abagore, abagabo, amagare, amapikipiki, ku zuba risa neza.

Inzu z'ubucuruzi ziri hirya y'umuhanda zirafunze imwe ifunguye icururizwamo ibitambaro bidodwamo imyenda. Hino y'umuhanda hahagaze moto ni ku mucyo hari akazuba ariko nta bantu bahari.

Mu muhanda, ku gihu, imvura isa n'igiye kugwa. Muri kaburimbo y'umukara hariho uruhande igipangu cyubakishijwe amabuye.